Bati ukeneye ubwishingizi? Aha ngaha ushobora kuba ufite ibinyabiziga byawe cyangwa ikinyabiziga n'iyo cyaba ari kimwe, ukagishinganisha kugira ngo uhore witeganyirije mu gihe runaka hashobora kuba impanuka utiteguye, ubundi ukaba uzi ko ufite ubufasha.

Aha barakubwira ngo seka kuko ufite ubufasha. Ni ukuvuga ngo aha ngaha ni ikigo gitanga ubwishingizi, uramutse ufite ubwishingizi uragenda ugashinganisha ibyawe igihe runaka hashobora kubaho impanuka, abangaba baba bazagufasha.

Ushobora gutemberana ubwishingizi mu bihe by'akaga iki ni ikigo gitanga ubwishingizi gishobora kubandikira kuri nimero yabo buri murandasikandika ikimenyetso cyo guteranya magana mirongo itanu karindwi numunani numunani gatatu rimwe gatatu karindwi gatanu gatandatu kabona ubundi busobanuro.

Ubu ni uburyo bwa banki bwo kuba wagura ibintu kuri murandasi ukaba wagura ibicuruzwa bitandukanye cyangwa se kuba wakwishyura ibintu bitandukanye amazi, imiriro n'inzu n'ibindi bintu byinshi.

Aha ngaha niho ushobora kuza guhahira amavuta y'ubwoko butandukanye ndetse n'imibavu ihumura neza, mu gihe wumva ukeneye kugenda urimo urahuramura neza cyangwa wisize amavuta meza aha wahahahira.

Iringiri ni iduka ushobora gusangamo imyambaro igiye itandukanye ndetse n'inkweto z'ubwoko bwinshi wakwifuza kugura, imyambaro myiza y'amakipe waba ukunda n'indi myambaro itandukanye wajyana ahantu henshi.

Iduka wahahiramo imyambaro y'ubwoko bwose wakenera kuba wakambara waba uri umukobwa, waba uri umusore, waba uri umupapa cyangwa se uri umumama, aha ngaha rwose uhinjiye wahasohoka waguze umwambaro kandi mwiza uzambara ukaberwa.

Aha ngaha ni mu iduka wahahiramo imyambaro myinshi kandi myiza, inkweto nziza, uramutse ubikeneye iri ni ryo duka wabihahiramo, ukaba wakwambara ukaberwa kandi ugasa neza, uwo waba uri we wese.

Iri ni iduka ricuruza imyambaro myiza igezweho, ushobora kuba wakambara ukaberwa, waba uri umupapa cyangwa se uri umumama, aha ngaha waza ukahahahira imyambaro myiza wakambara, buri muntu wese unyuzeho akabona ko wambaye neza.

Iri ngiri ni iduka rigari ryiza wasangamo imyenda myiza, inkweto nziza, ibikapu byiza, amashati meza cyane. Aha ngaha usangamo inkweto z'abasore, z'abagabo, iz'abana, ibikapu by'abagore byiza byo gutemberana n'iby'abakobwa bigezweho.

Ahangaha ni iduka ry'inkweto zigiye zitandukanye, imyenda; ahangaha uramutse ukeneye kwambara neza ukaberwa, inkweto z'igitsina gore waza ukazigura ukagenda ukambara ukaberwa imbere ya bose.

Iri ni iduka wahahiramo imyambaro myiza, hano turareba imyambaro yo hejuru, waza ugahaha ubundi nawe ukayitahana ukambara ukaberwa, ugakomeza ugasa neza, ukeye uri no mu gihugu gikeye.

Iri ni iduka ricuruza imyenda myiza igiye itandukanye, amakote y'imbeho kwambara mu gihe cy'imbeho cyangwa se igihe cy'impeshyi, ahangaha waza ukahahahira ubundi ukagenda ukambara ukaberwa.

Iki ni ikinyabiziga cyiza ushobora kuba wahaha ukeneye guhaha ikinyabiziga ukaba wakigura nawe ukajyakifashisha mu kazi kawe ka buri munsi no mu ngendo zawe zigiye zitandukanye ukenera gukora.

Ubu ni ubwoko bw'ibinyabiziga byiza bigezweho bishya by'iterambere, uramutse ushaka kugura ikinyabiziga cyo gutemberamo n'umuryango wawe, ibinyabiziga bitwara imizigo n'ibindi byinshi cyane aha wabihasanga.

Ibinyabiziga bishya kandi byiza, byo mu bwoko bw'iterambere kandi byateye imbere, kandi bisa neza, ushobora kuba wagura kikagufasha mu ngendo zawe zitandukanye za buri munsi, kujyana abana ku mashuri, n'ahandi hantu hatandukanye.

Iki ni ikinyabiziga cyiza gishya kigezweho, ushobora kuba wagura ubundi ukajya ugikoresha mu kazi kawe ka buri munsi cyangwa se mu ngendo zawe za buri munsi, uramutse ukeneye kugura ikinyabiziga, iki kinyabiziga ni kiza wakigura.

Isoko rya Kigali ry'ibinyabiziga aho waba ukeneye kugura ikinyabiziga cyawe uzajya wifashisha mu kazi kawe ka buri munsi cyangwa se mu ngendo zawe zitandukanye ukora buri munsi, ahangaha wazigura ubundi ukajya ugikoresha.

Ayangaya ni amafaranga y'u Rwanda akaba ari amafaranga hariho banki nasiyonari y'u Rwanda, amafaranga angana n'ijana twakoreshaga hambere mu gihe cyashize ubu akaba yarasimbuwe n'igikoroto.

Aya ni amafaranga y'amanyarwanda yo hambere, ikaba ari inoti ya bitanu yakoreshwaga, gusa hakaba haraje izindi nshya na zo ni banki nasiyonari y'u Rwanda, barayasimbuje aya ngaya ni ayo hambere.

Uburyo bwo gucuruza amafaranga cyangwa se imihinduranyirize y'amafaranga bitewe n'ayo ukeneye, ahangaha ni hamwe uzaza ufite amafaranga y'amanyamahanga bakaguhindurira baguha amanyarwanda cyangwa se andi manyamahanga bitewe naho ugiye kuyakoreshereza cyangwa se n'igihugu ugiye kuyajyanamo.

Bari mu gikorwa cyo kubara amafaranga bifashishije utumamashini twabugenewe tubara amafaranga kugira ngo hataza kubaho kwibeshya ku mibare imwe igiye itandukanye, barabara bakongera bagasubiramo, bakongera.

Aha ngaha ni Ikaze, mu ikusanyirizo ry'amata, aha ngaha ukeneye amata y'ubwoko bwose wayabona, amata aba yanyuze mu ruganda bagashyiramo imbuto n'ibindi bitandukanye, wagurira hano ndetse n'imitobe yindi igiye itandukanye y'Inyange.

Aha ni ho wasanga ibyo kurya bijya bitandukanye byoroheje ibyo kunywa bikonje, cyangwa se biryoshye imitobe amata n'icyuma cy'amata, kibasha kubika amata mu rwego rwiza kandi rushimishije.

Aya ngaya ni amazi meza y'isoko izwi cyane, akaba ari amazi wabasha kugura mu gihe waba wumva ukeneye amazi meza, kandi atunganyije ku buryo bwiza, ayangaya wayagura.

Iri ngiri ni ikusanyirizo ry'amata, aha tuhasanga icyuma cyiza gitunganya amata, kikabika mu buryo bwiza bunogeye, bufite isuku kandi bwizewe ku buryo uramutse ukeneye kugura amata aha ngaha waza ukayaguriraho.

Ikusanyirizo ry'amata meza, baba bakamye, amata afite isuku, uramutse ukeneye kugura amata, kuyagurira umwana cyangwa se nawe kuyigurira, aha ni ahantu ushobora gusanga amata meza wakifuza.

Aha ngaha abantu bari bishimye barimo barasangira, banywa amata meza, ateretse neza, mu bikoresho bisa neza byo kunyweramo amata, amata afite ubuziranenge kandi afite ubuzima buzira umuze.

Aha ngaha ni ahantu waza ugufatira icyayi kimeze neza, kiryoshye, gitunganyije neza kandi gifite isuku ndetse n'amata ameze neza mu gihe waba ukeneye amafunguro ya mu gitondo, ubyutse ugiye mu kazi kawe.

Ubu ngubu ni ubucuruzi bw'amata agiye atandukanye, aha ngaha turabona bamwe mu bakozi b'ibicuruzwa, aha ngaha wahabariza ibyo kunywa bigiye bitandukanye amazi, imitobe n'ibindi bintu byinshi wabihasanga.

Ahangaha tuba tuhasanga icyumba cyo kuriramo ibyo kurya byoroheje, ushobora kuba waza ugasaba amata, hari amata ya mukamira hakaba hari imitobe y'ubwoko butandukanye yaba iyo guha abana, yaba iyo guha abantu bakuru ndetse n'ibindi bintu byiza wabasha kwifashisha.

Aha ni ahantu ushobora kuba waza gushaka ibyo kurya nk'ibya mugitondo cyangwa se andi masaha, uba ukigera mu kazi wenda wagiye utariye cyangwa udufashe ibya mugitondo, ukaba wanywa icyayi na capati.

Ibi ngibi ni ibyuma byiza byabugenewe byagenewe gutunganya amata ku buryo buhanitse kandi bwizewe bufite n'isuku uramutse ukeneye amata yizewe afite isuku aha ngaha waza ukahagurira amata.

Ahangaha ni inyubako wasangamo ibintu byinshi bitandukanye turabonamo ikintu gikoresho babikamo amata cyabugenewe kugira ngo amata akomeze kugumana umwimerere ndetse n'akana gafite isura nziza ushobora kubona ko gakeneye amata.

Waza gufatira ibintu byo kunywa bitandukanye ndetse n'amafunguro wahahahira atandukanye. Imbuto zirimo imineke, imitobe igiye itandukanye wayihaha ndetse n'amazi aha ngaha byose wabihasanga ukabigurara.

Bati twizigamire, tugurizwe, dutere imbere. Ushobora kohereza cyangwa ukakira amafaranga hano aba avuye mu mahanga cyangwa se agiyeyo ikingiki ni ikigo kibigufasha cyitwa kopedu.

Aha ngaha barakubwira ngo kanda ibintu bigiye bitandukanye, wishyure amafatabuguzi y'ibintu bitandukanye wakwishyura umuriro, ifatabuguzi ryo kujya ureba amashusho cyangwa se amakuru ari hirya no hino ku isi agiye atandukanye.

Ubu ni uburyo bwo kwishyura amafatabuguzi y'ibintu bigiye bitandukanye, ukaba wakishyura ishuri, ukaba wakishyura ingendo z'indege, ukaba wakishyura imisoro, ukaba wanahahira kuri murandasi ku buryo bworoshye.

Ahangaha barakubwira ati kanda kuri ibi uhitemo ibyo wakwishyura bigiye bitandukanye uko wakwishyura ifatabuguzi ry'amazi, iry'umuriro, iby'ibintu byinshi bigiye bitandukanye wakwishyura ukoresheje ubu buryo.

Urupapuro rugaragaza ukuntu umuntu aba yishyuye imisoro yiwe, ubundi bakareba niba nta mwenda arimo, iyo umaze kwishyura aha ngaha baguhereza runo rupapuro kugira ngo abakozi babishinzwe nibarukubaza uzarwerekane.

Uru ni urupapuro rwerekana ukuntu baba bamaze kwishyura imisoro, aha ngaha bakora ibijyanye n'amafarini, nibo bari bamaze kwishyura imisoro, igiye itandukanye, ubundi bakareba ko nta mwenda basigayemo yaba bikagenda neza.

Urupapuro rugaragaza ko umuntu yishyuye imisoro n'amahoro. Umuntu amaze kwishyura imisoro ikingiki ni ikigo gicuruza amabara yo gusiga ku nzu. Hanyuma abamaze kwishyura bakareba ko nta mwenda basigayemo ubundi uru ni urupapuro nyemezabwishyu.

Uru rupapuro rugaragaza ko umuntu yishyuye imisoro, ahangaha ushobora kujya ku kigo cy'imisoro namahoro ukishyura, ubundi urupapuro bakaruguha kugira ngo abashinzwe kwishyura, cyangwa se kwishyuza imisoro nibaza uzarubereke babone ko nta kibazo kirimo nta mwenda ubarimo.

Urunguru ni urupapuro rw'ubwishyu y'imisoro, ahangaha umuntu aba asoje kwishyura imisoro, akareba niba nta deni asigayemo, ubundi agenda akazana urupapuro rugaragaza ko yaba yarishyuye imisoro kugira ababishinzwe nibabimubaza azabyerekane.

... gukoresha amafaranga y'amanyamahanga, ahangaha uramutse uyakeneye bitewe naho ugiye kuyakoreshereza, nawe uraza uzanye andi, ubundi bakakuguranira, bakaguha ayo ukeneye, ugiye gukoresha.

Ubu ngubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga y'amanyamahanga, hano turabona amafaranga uko byagenda kose ni Amashinwa, ushobora kuba uyakeneye iyo kujya nko muri kino gihugu ukajyana Amanyarwanda bakaguhereza aya ngaya, cyangwa se ukazana n'andi atari Amanyarwanda yo mu kindi gihugu nanone bakakuguranira bakaguha aya tureba.

Ubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga y'amanyamahanga ahangaha barimo no gusuzuma yuko ari mazima kugira ngo ataza kuba ari ibibazo, ahangaha uzirinde kujyana amafaranga utizeye neza yuko yaba ari mazima cyangwa afite ikibazo.

Aha ngaha barimo barabara amafaranga agiye atandukanye, ubu ngubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga y'amanyamahanga, mu gihe ushobora kuba uyakeneye, aha ngaha akaba ari hamwe mu hantu bacuruzaho amafaranga uza bakayaguha.

Ayangaya ni amafaranga y'abanyamahanga y'amadorari, ahangaha akenshi usanga bakora itanga, iyakira, ihererekanya ry'amafaranga nawe uyakeneye uzana andi bakayaguha cyangwa se ukazana andi nka yo nanone bakaguha andi.

Ubu ngubu ni uburyo bw'uruhererekane rw'amafaranga cyangwa se guhana amafaranga y'ingeri zitandukanye, bitewe n'ayo ukeneye, aha ngaha ni ho uzana amafaranga bakaguha andi, biterwa n'aho uri buze kujya kuyakoreshereza ayo waba ufite yose.

Ubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga, ubucuruzi bw'amafaranga y'amanyamahanga agiye atandukanye, mu gihe ufite amanyamahanga ukeneye andi y'amanyahanga, bitewe n'aho uri buze kuyakoreshereza, ukaza bakayaguha cyangwa se ukeneye n'amanyarwanda bakayaguha.

Ubu ngubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga atari amanyarwanda cyangwa se amafaranga y'aba nyamahanga turabona amafaranga yo muri congo uramutse uyakeneye ugiye kujyawa mu gihugu cya congo wahasaba bakayaguha cyangwa se ufite ayandi ari yo yose.

Buno buryo bwo gukoresha amafaranga y'abanyamahanga uramutse uyakeneye bitewe naho ugiye kuyakoreshereza ahangaha uraza bakakuguranira bakaguha ayo ukeneye waba ufite amanyarwanda cyangwa se n'andi yose waba ufite.

Ubu ngubu ni ubucuruzi bw'amafaranga y'amanyamahanga, uramutse ukeneye ubu bucuruzi, waza aha ngaha ufite amanyamahanga ushaka amanyarwanda bayaguha, ufite amanyarwanda ushaka amanyamahanga na byo byose babigukorera.

Aha ni ahantu hadufasha mu buryo bugiye butandukanye, haba ari banki, bakubikira amafaranga bakanayakubiguriza, tukabona n'ahandi bafata amafaranga bagakora igikorwa cyo kuyahindura cyangwa se ubucuruzi bw'amafaranga, bitewe n'ayo ukeneye ukayazana.

Ibijyanye no kohereza amafaranga kwakira kohereza amafaranga mu mahanga ahangaha uramutse ukeneye ubwo buryo bwose waza bakabigukorera kandi bakora n'uburyo bwo kuvunja amafaranga y'ihererekanya ry'amafaranga ayo mu bihugu bigiye bitandukanye

Ahangaha ni uburyo bwo gufata bagahinduranya amafaranga, amafaranga aha ngahe urayazana bakayagura cyangwa se bakayagurisha, bitewe n'ayo ukeneye bakaguha ayo uyifuza, bitewe n'aho ugiye kuyakoreshereza cyangwa se igihugu ugiye kuyajyanamo.

Aha bakora ibijyanye no guhinduranya amafaranga y'amanyamahanga cyangwa se icuruza igura n'igurisha ry'amafaranga y'abanyamahanga, bakakubwira bati ibiciro byo mu Buhinde n'ibindi biciro bigiye bitandukanye uramutse ukeneye igura n'igurisha ry'amafaranga, ni ho wabikoreshereza.

Aha ngaha niho usanga bakora ikintu kijyanye n'ubucuruzi bw'amafaranga cyangwa se ihinduranya ry'amafaranga, bahita Ineza, uramutse utanababonye wahamagara kuri nimero zikurikira: zeru karindwi umunani umunani, itandatu umunani, gatanu gatanu, karindwi umunani.

Ni ahantu muri dukomere, bakora ivunja ry'amafaranga cyangwa se igura n'igurisha ry'amafaranga, uramutse ufite amanyarwanda ukeneye amanyamahanga cyangwa se ufitemanyamahanga ukeneye abanyarwanda cyangwa andi mafaranga yose wakenera aha ngaha barabigukorera.

Aha ngaha habamo icuruzwa ry'amafaranga agiye atandukanye, turabonamo abanyamahanga, na bo bitewe n'aho bagiye ku guhahira cyangwa aho bagiye kuyakoreshereza, urayazana ayo ufite, ubundi bakaguhereza ayandi nabo wakenera.

Ibi ni ibiciro by'amafaranga mu mugihe waba ukeneye kuza kuvunjisha amafaranga, ibiciro ubu ubibonaho bitewe n'ayo ukeneye kuza gukoresha cyangwa se ukeneye kuza kujyana, ukamenya ngo ndatwara aya kuko nazanye aya.

Hakorerwa ibintu bijyanye n'ubucuruzi bw'amafaranga, ibiciro biba biriho mu gihe ukeneye amafaranga ufite nk'amanyarwanda ukaba wayazana bakaguha amanyamahanga cyangwa se ufite amanyamahanga bakaguha amanyarwanda bitewe n'ayo ukeneye cyangwa se n'aho waba ugiye kuyakoreshereza ni wowe uhitamo.

Aha ngaha, hakorerwa ibijyanye n'amafaranga bigiye bitandukanye. Kohereza amafaranga cyangwa se kwakira amafaranga yo mu bihugu bigiye bitandukanye, kuba waba ukeneye no kuvunjisha amafaranga.

Aha hakorerwa ubucuruzi bw'amafaranga cyangwa se guhinduranya amafaranga bitewe n'ayo ufite cyangwa se n'ayo ukeneye uramutse ufite amafaranga amwe ukeneye mu kindi gihugu ugiye nko kujyayo cyangwa se bitewe n'aho ugiye guhahira ukaza ukabikoresha.

Ahantu bakorerwa ubucuruzi bw'amafaranga, cyangwa se ihinduranyirizwa ry'amafaranga bitewe n'ayo ufite y'abanyamahanga ukeneye andi y'abanyamahanga barabikora, ufite amanyarwanda ukeneye amanyamahanga n'ubundi buryo bugiye butandukanye bitewe n'aho uri buyakoreshereze, ni wowe uba uzayi ukeneye.

Ahangaha umwe mu bakozi bashinzwe ibijyanye n'ubucuruzi bw'amafaranga arimo ashyiraho ibiciro by'igura n'igurisha ry'amafaranga wowe bitewe n'a mafaranga y'igihugu ukeneye uraza ukareba ibiciro uko bihagaze, ubundi ukagura cyangwa ukagurisha.

Inzu ikoreramo ibikorwa byo guhinduranya amafaranga, cyangwa se kohereza amafaranga, hantu hagiye hatandukanye hirya no hino ku isi. Ahangaha ufite amafaranga, ugiye kujya mu gihugu gitandukanye, urahaza bakakuguranira, bakaguheza ayo ukeneye.

Aha ngaha ni ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'amafaranga cyangwa se imikoreshereze y'amafaranga y'manyamahanga. Uramutse ukeneye ubwo buryo waza bakabigufashamo, ukeneye amafaranga y'amanyamahanga ufite amanyarwanda baragufasha, ukeneye amanyarwanda ufite amanyamahanga na byo bagufasha.

Aha ngaha turabonaho ibyuma byinshi by'ikoranabuhanga bigiye bikora imirimo myinshi itandukanye, ushobora kuba ari byo waza kureberaho ibijyanye n'amafaranga, ukuntu ibiciro biba bigiye bihagaze mu buryo butandukanye.

Aha hakorerwa ubucuruzi bw'amafaranga cyangwa se ihinduranya ry'amafaranga bitewe n'ayo ushaka gukoresha cyangwa se ukeneye, ibihugu bigiye bitandukanye by'amafaranga yabyo baraguhindurira bakaguha ayo ukeneye haba hariho ibiciro.

Aha ni ahantu hazwi nk'ahafatirwa amafunguro ku muryango cyangwa se abantu bahuriye mu nyubako imwe, hatatse neza, intebe nziza ndetse ameza asa neza kugira ngo mukomeze kubasha kuryoherwa.

Izi ni intebe nziza ziri mu ruganiriro, aha ngaha usanga inzu nziza cyane yubatse ku buryo bugezweho, harimo amakaro meza agezweho kandi akomeye, iyi ngiyi ni inyubako nawe wakubaka igasa neza.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza, ushobora gusangamo utubati twiza tw'ibitanda n'imitako myiza iri mu cyumba, iyi ngiyi abaye ari inzu ikodeshwa waza ukayikodesha, abaye ari amacumbi ukamenya ko urara ahantu heza kandi hasa neza.

Intebe nziza ndetse nutumeza twiza kutureba intebe n'ameza byo ku ruriro aho umuryango cyangwa se inshuti bicara barimo barasangira banaganira ubundi bagakomeza bakishima izi ni ntebe nziza wakoresha u bagashyira iwawe.

Aha ni ko wakoreshereza ibintu by'ibigeni bigiye bitandukanye byo mu mbaho wakenera gushyira mu nzu yawe nk'utubati cyangwa se ibitanda n'intebe n'ibindi bitandukanye, aha ngaha wabihakoreshereza.

Ni ibyicaro biri mu cyumba cy'ururiro kaba ari ahantu heza uwo murimo muraganira mufate amafunguro hari indabyo nziza ubusitani busa neza kandi iyi ni inyubako nziza kuburyo bw'iterambere kandi bugezweho.

Aha ngaha ni ahantu heza wakwishimira kuba wasohokera wowe n'inshuti zawe cyangwa se n'umuryango wawe cyangwa n'abandi bantu bawe bagiye batandukanye. Aha ngaha ushobora kuhasanga amafunguro ateguye neza ndetse n'ibyokunywa biteguye neza n'ibindi bintu byinshi byiza mwakwifuza.

Aha ngaha ni ahantu heza ushobora kwishimira ahantu wajya ukahasanga ibintu byiza byinshi wahasanga ishusho ryiza, ukahasanga amahumbezi, amazi meza yo kujyamo ukaba ukarabamo, ahantu heza ho kurara, amafunguro ateguye neza n'ibyo kunywa biteguye neza.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza, ishusho rya nimugoroba cyangwa se ishusho ry'ijoro, aha ngaha ni ho ushobora kuba wasohokera wowe n'abawe mukahasanga ibintu byiza byinshi, amafunguro ateguye neza n'ibyo kunywa biteguye neza n'ibyumba byiza byo kuruhukiramo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

B'i nijoro y'umujyi wa Kigali, urabona ko rwose Kigali yacu, Kigali iteye isa neza ku ruhando mpuzamahangahani ubona ko igihugu kiba cyarateye imbere byarageze ku rundi rwego.

Aha ngaha ni ahantu heza wasohokera wowe n'inshuti zawe, wowe n'umuryango wawe, wowe n'abawe abo aribo bose. Hari udutanda twiza two kuryamaho ukumva amahumbezi y'amazi, hakaba hari n'amazi wajyamo ukaba uruhukiramo.

Igikoresho cyakwifashishwa mu gihe habayeho inkongi y'umuriro igiye itandukanye, iki ngiki cyakwifashishwa ukagikoresha uhangana nayo cyangwa se, n'abafite ibikorwa byabo remezo bitandukanye iki ngiki wakigura ukakihashyira.

Iyi ni inyubako nziza nini yubatse ku buryo bugezweho y'amagorofa akaba afite imiryango y'ubucuruzi bugiye butandukanye wahaza kuhahira ibintu byinshi wakenera mu buzima ukoresha nta kintu wahaburira.

Inyubako nziza iherereye i Remera, ahangaha niho wajya ukeneye ibintu bitandukanye, ukeneye amafunguro ateguye neza, ukeneye ibyumba byo gukora hamwe inama, ukeneye ahantu heza ho kuryama mugihe unaniwe amazi meza bangaha waha jya.

Inyubako ziba zikorerwamo ibikorwa remezo bitandukanye byaba ari iby'igihugu cyangwa se ari abikorera ku giti cyabo ahangaha ni ahantu heza wasohokera wowe n'abawe mukaba mwaza mukaba murya ubuzima mukishima mukanezerwa cyane.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza wasangamo ibintu byiza bigiye bitandukanye. Aha ngaha wahasura ukakira amafunguro ateguye neza, ibyo kunywa biteguye neza, ndetse n'amazi yo kuruhukiramo ukaruhura ubwonko.

Aha ni ahantu heza wakwifuza kuba wasohokera, uri kumwe n'abawe, uri kumwe n'umuryango wawe, mukagenda mukishima, mureba amazi asa neza cyangwa se mukajyamo mukaba mwidagadura, muruhuka, mugafata amafunguro meza n'ibyo kunywa byiza.

Inyubako ziba zubatse neza ,ku buryo bugezweho bw'iterambere hari umwanya mwiza w'ubusitani ,hakaba hari inyubayubako wakoramo ibikorwa byawe bitandukanye ,ubucuruzi bwinshi ewana ku buryo buri muntu yajya ahagera.

Ikigo cyo mu Rwanda gitanga ubwishingizi, ishami rya Remera. Uramutse ukeneye ubwishingizi bugiye butandukanye, wahamagara kuri nimero ikimenyetso cyo guteranya magana abiri mirongo itanu, karindwi, umunani, umunani, cumi na kabiri, mirongo itanu, makumyabiri na kane, bakaguha ubundi busobanuro.

Iyi ngiyi ni inzu ikoreramo ibintu byinshi bitandukanye amabanki irembo n'ibindi bintu by'ubwishingizi uramutse ukeneye ubwishingizi bw'ibinyabizigahangaha wabihasanga.

Iki n'ikigo gitanga ubwishingizigiye butandukanye, mu gihe uba ukeneye ubwishingizi bw'ubuzima n' ikigo cyabigufashamo ukabaho uzi neza ngo ubuzima bwanjye burashinganishije nshobora guhura n'impanuka runaka bakaba byanyorohera.

Iyi ngiyi ni inyubako y'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi bw'ibinyabiziga, uramutse ukeneye gushinganisha ibinyabiziga ahongaha niho waza ubundi ugafata ubwishingizi ukaba witeganyirije ejo hazaza.

Nziza iherereye ahantu runaka ushobora kuba wasangamo ibikorwa bigiye bitandukanye byaba iby'ubucuruzi cyangwa se ubundi bushoramari bugiye butandukanye bwafasha abantu gutera imbere n'igihugu gutera imbere.

Aha ngaha ni muri banki, umwe mu bakozi ba banki ari kubara amafaranga, undi agashyiraho umukono, ashobora kuba aje kubitsa, cyangwa se kimwe ni uko ashobora kuba aje kubikura, byose birashoboka.

Aha ni ishusho yafatiwe mu kirere hejuru mu nyubako yo hejuru, ubona ibinyabiziga hasi bihagaze aho bigomba guhagarara ndetse n'amapikipiki, ukabona n'ikindi cyapa kigaragaza baguha inguzanyo, uramutse ukeneye inguzanyo wabahamagara kuri izo nimero zabo zikurikira.

Ubu ni uburyo bwa banki ushobora gukoresha kugira ngo ube wakwizigama cyangwa se igihe kimwe na kimwe uzahabwe n'inguzanyo kugira ngo uzarusheho kwiteza imbere. Aha ngaha ushobora kubahamagara kuri izi nimero zikurikira

Ishami rya Kicukiro ubu ngubu rirafunguye, aha ngaha ahantu ushobora kujya kubitsa amafaranga yawe muri banki igiye itandukanye, mu gihe waba uzayakenera ukayakoresha mu gihe runaka.

Iyi ni banki, hano bati, fata inguzanyo yishinganye, bakaba baguha miliyoni mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda, ubundi nawe ukagenda agashinga ibikorwa remezo, ugatangira ukiteza imbere, ushobora kubahamagara kuri kane gatanu eshatu.

Iri ngiri ni isoko rinini ry'ibyo kurya byinshi bitandukanye hano turabona ibitoki by'amoko yose, binini byiza wahaha rwose ukagenda ukarya n'umuryango wawe, haba hari ibirungo byinshi by'amoko atandukanye, imbuto z'amoko atandukanye, n'ibindi bintu byinshi wakwifuza kugura.

Aha ni ahantu heza wagurira imyambaro y'ababyeyi yo gukenyera, ababyeyi bakunda gukenyera rwose, aha ngaha niho mwahahira imyambaro izwi ku izina ry'ibitenge, wagura ugakenyera ubundi ugasa neza.

Mu isoko wahahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'ibiribwa ibyo wakwifuza by'amoko menshi wabihasanga, ibishyimbo intoryi ibirayi n'ibindi birungo byinshi bigiye bitandukanye, byo gushyira mu mafunguro aha ngaha waza ukahahahira.

Ricuruza utuntu twinshi tw'ubugeni ibisabo, ibiseke n'ibindi bintu byinshi biboshye bya kinyarwanda, angahe wahasanga imitako amashusho yo kumanika mu nzu, ndetse ahangaha wahasanga ingoma yo gutwara ukazajya uwivuza.

Aha ngaha ni banki y'abaturage b'u Rwanda bari isoko ry'umujyi wa Kigali ishami ry'isoko ry'umujyi wa Kigali waza guhahiramo ibintu byiza byinshi bigiye bitandukanye wakenera ubundi ukabijyana.

Ahangaha uyu ni umwe mu bacuruzi baba mu isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ukaba wa wamugurira ibintu bitandukanye byo guteka; inyanya, intoryi ndetse n'imbuto zindi zigiye zitandukanye; ahangaha wabihahahira.

Isoko rinini cyane wahahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hari n'ibiciro by'ibyo bintu bitewe n'ibyo ukeneye, ugifata ureba igiciro cyangwa se bitewe n'uko uhagaze mu mufuka wawe, urabibona byose.

Abacuruzi batandukanye bacuruza ibintu byinshi tugenda dukenera bi bitandukanye byo kurya ibirungo ndetse n'ibindi imyanya twabona intoyi n'ibindi byinshi bye bitandukanye wakenera hawa hasanzwe.

Iri ngiri ni isoko wahahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ushobora kuba wahaha imbuto z'ubwoko butandukanye harimo inanasi n'ibindi bitandukanye waba ukunda, n'imineke ukaba waza ukabihaha.

Iri ngiri ni isoko ryo guhahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo n'abantu bari guhaha ibiribwa ibyo kurya by'amoko menshi agiye atandukanye, tukabona n'igihingwa tuzi kiryoha cyane kibamo agasukari kameze neza k'igisheke urya ukumva ni neza.

Uyu nguyu ni umwe mu bakozi b'ikigo cy'itumanaho umuyoboro wa MTN, ugufasha muri gahunda zigiye zitandukanye, uburyo wafungura konti uzajya ubikaho amafaranga, uburyo wabikura amafaranga bakohereje cyangwa se uburyo wakohereza amafaranga n'ubundi buryo bwinshi bwo guhamagara bugiye bitandukanye.

Umwe mu bakozi b'ikigo cy'itumanaho umuyoboro wa emutiyene, ushobora kuba waza ukahakorera ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, kubitsa amafaranga, kohereza amafaranga, kubikura amafaranga n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, aha ngaha byagufasha.

Ubu ngubu ni uburyo bwo gukoresha umuyoboro wa eyateri, aha ngaha usangaho ibintu bigiye bitandukanye uko wakwishyura ukoresheje murandasi ugatuma ibintu bikakugeraho, uko wahamagana n'ubundi buryo bwinshi.

Iri ngiri ni isoko ryiza wahahiramo ku buryo bworoshye, ugahaha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibyo kunywa by'imitobe n'ibindi birungo bitandukanye, tukabona n'umwe mu bakozi b'ikigo k'itumanaho umuyoboro MTN urabona ko bakubwira bati:"itsindira amafaranga", bakubwira bati: "kanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyari gatatu" ubundi urebe ibindi.

Iri ngiri ni isoko wasangamo imyambaro myiza igiye itandukanye ikubereye, mu gihe waba ukeneye kugura imyambaro kandi myiza igezweho, aha ngaha wahagurira, hakaba hari uburyo bwo kwishyura na MOMO, ushobora gukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani urwego, ugashyiramo na kode, ukishyura nta kindi kiguzi baguciye.

Uburyo bwiza kandi bworoshye buhendutse bwo kwishyura na momo, aha ngaha ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri, umunani, akanyenyeri, rimwe, akanyenyeri, kode y'umucuruzi, ntayandi mafaranga wishyuzwa aha ngaha iyo ubikoze.

Ikindi kigo cy'itumanaho umuyoboro wa mtnqrt kanda akanyeri ijana na mirongo ine urwego ubundi ugakurikiza amabwiriza ushobora kugiye kugura paki n'ibindi bihe bitandukanye.

Iki ni ikigo cy'itumanaho umuyoboro wa MTN. Aho bavuga ati kanda akanyenyeri, ijana na mirongo ine, urwego. cyangwa akanyenyeri, gatatu, kane, gatanu urwego, ubundi urebemo byinshi waba ukeneye.

Ibingibi ni ibinyabiziga bidufasha gutwara abagenzi mu ngendo zitandukanye zacu za buri munsi ndetse no mu kazi kacu ka buri munsi aya ni amapikipiki adufasha kugenda ahantukaba twifuza kujya.

Ipiki, aha ngaha barakubwira ngo ni vuba vuba. Aha ngaha ushobora kubandikira, ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa se ukabasura ku rubuga rwabo, ugatuma nk'ibyo kurya, ubundi mu mwanya mutoya cyane barabikuzanira.

Hari umuyobozi w'ipikipiki rishinzwe kuba ryakuzanira ibintu waba waguze kuri murandasi wibereye mu rugo tubona n'uwo bari babizaniyehangaha urabandikira bitewe n'icyo ukeneye uri mu rugo bakabiha gusangisha.

Ayangaya ni amapikipiki, aba ni abakozi b'ikigo gishinzwe kugemura cyangwa se gushyikiriza abantu ibyo kurya batumye, ahangaha nawe wabandikira bitwa jumiya, bakakuzanira ibyo kurya wibereye mu rugo rwose nta kibazo.

Ubu ni uburyo bwo kuba wagurira kuri murandasi bidasabye ko ugenda, aha ngaha ibicuruzwa uraba ubibona ukabireba, ubundi ugashima, ukandika, ukagura, ukishyura, bakakikugerezaho ku buntu.

Ibi ni ibinyabiziga by'amapikipiki, bigufasha kugezaho ibintu uwo wabuze ukoresheje murandasi, bitabaye ngombwa ko ugera aho biri. Aha ngaha ni ho uzasanga ushobora kubahamagara kuri izi nimero, zeru karindwi umunani, karindwi gatandatu ebyiri, umunani karindwi zeru, ubundi bakabikugezaho.

Reba amapipiki yo mu bwoko bumwe kandi bushya bugezweho bwitwa ampasante, ahangaha bagufasha kugezaho ibintu uba watumye mu gihe waba uri mu rugo cyangwa se uri ahandi hantu hagiye hatandukanye.

Iyingiyi ni ipikipiki igufasha kugezaho ibintu uba waguze ukoresheje murandasi, ahangaha winjira ku mbuga nkoranyambaga z'ibigo bigiye bitandukanye ukaba watumiza ibyo kurya ubundi bakabikuzanira wibereye mu rugo.

Aha ngaha ni uburyo bwo kugura ukoreye ku mbuga nkoranyambaga ukaba wagura imbuto n'ibindi bigiye bitandukanye, ubundi bakabikugereza aho utuye cyangwa se aho uri ku buntu.

Aha ngaha ni ku isoko rigari ubungubu ni uburyo bwo gutwarira ndetse no kugemurira ku gihe aha ngaha ugura ikintu kuri murandasi ubundi bakaba bakikuzanira wibereye mu rugo cyangwa se ahandi hose waba wibere, hari na nimero wahamagaraho bakabigukorera byose.

Ni inyubako nziza ifite igipangu cyiza kigezweho gifunguka mu buryo bw'iterambere, akaba ari inyubako iherereye mu Mujyi wa Kigali, ushobora kuba wagura amafaranga angana na miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda, ubundi nawe ukaza ugatura ahantu heza.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza, aha ngaha turareba icyumba cyiza cy'ubuganiriro, umuryango w'ahantu uhurira bari kuganira cyangwa se ahantu uhurira n'abashyitsi bagusuye, iyi akaba ari inzu wajya wishyura amafaranga angana n'ihumbi na magana atanu y'amadorari ku kwezi.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza yubatse neza ku buryo bugezweho, amatara meza, amakaro meza ndetse isize n' amamabara meza, iki ni icyumba cy'uruganiriro, akaba ari inyubako ihagaze amafaranga angana miriyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda kuyigura.

Iki nigipangu cyiza cyane bakubwira ko kiri kumuhanda mugari, umuhanda munini wisanzuye, bakubwira ko uzajya wishyura amafaranga angana namadorari igihumbi n'ijana ku kwezi. Aba ari inzu nziza usangamo ibyumba byiza, ubukarabiro bwiza nibikoni byiza byo gutekeramo.

Inyubako iherereye Kabeza igurishwa tukaba tureba hano mu bwiherero ifite ubwiherero bwiza, waba ukeneye kuyigura wayigura ihagaze mu mafaranga angana na miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Ubu ngubu ni ubwogero bwiza bwa kijyambere mu cyumba cy'ubwogero akaba ari inyubako nziza ushobora kuza kubamo ukodesha ikaba ihagaze amafaranga angana n'amadolari magana atanu na mirongo itanu ku kwezi.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza yubatse ku buryo bugezweho, tukahareba igikoni cyiza cy'iterambere, gifite ibikoresho byose byuzuye wakenera mu gihe waba urimo gutegura amafunguro agiye atandukanye. Aha ngaha ni inzu uzishyura amafaranga angana n'amadorari magana atanu na mirongo itanu ku kwezi.

Inyubako nziza twaba tubona icyumba cyo kwicaramo cy'uruganiriro ndetse n'aho kurira, hari inyubako nziza iba iri mu mujyi wa kKigali ushobora kuza gukodesha amafaranga uzajya wishyura amadorari magana inani ku kwezi.

Ni ibipangu byiza bigezweho inyubako ushobora kuza kubamo wowe n'umuryango wawe cyangwa se wowe'abawehangaha ni mu mujyi wa kigali ubundi ukazajya wishyura amafaranga angana n'amadorari magana atanu na mirongo itanu ku kwezi.

Inyubako nziza iherereye Kacyiru mu mujyi wa Kigali. Tukaba tureba aho kuryama heza hasa neza, akaba ari inzu wakwishyura amafaranga angana n'ibihumbi magana atanu y'Amadolari, ubundi ukaza ukayibamo wowe n'abawe, cyangwa se wowe n'umuryango wawe.

Turareba inyubako ifite igikoni cyiza cyubatse ku buryo bugezweho bw'iterambere kandi gisa neza inyubako isa neza isabwa mu mujyi wa kigaliba ari inyubako wagura amafaranga angana na miliyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda.

Iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali, inyubako nziza igezweho bakaba bakubwira ko ihagaze miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda, ikaba ifite umwanya wajyamo ibinyabiziga bitatu byawe waba wifitiye.

Ubu ngubu n'ubusaswa bwiza buri mu nzu yubatse neza ku buryo bugezweho kandi igezweho, ushobora kuba ari ahantu ho gukodesha akaba waza ukahakodesha ukahaba cyangwa se ari inyubako nziza yo kugura ukaba wayigura.

Iyi ni nyubako nziza yubatse ku buryo bugezweho iherereye kabeza mu mujyi wa kigali ifite amakaro meza afite amabara meza, ibyuma byiza imyanya myiza yo kuruhukiramo abarenzo wagura miliyoniro mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inyubako nziza iherereye Kacyiru, tukaba tureba ahangaha niho batekera mu gikoni, harimo utubati twiza two kubikamo ibyo kurya, ndetse no kubikamo ibikoresho bindi byo mu gikoni, akaba ari inyubako waza kubamo, ukajya wishyura amafaranga igihumbi na magana atanu y'Amadolari ku kwezi.

Iyi ngiyi ni nyubako tukaba tureba icyumba kiza, giteguye neza gisashe neza kikaba gifite n'utubati two mu cyumba, twiza two kubikamo imyenda, akaba ir'inzu wakodesha amafaranga angana n'ibihumbi magana atanu mirongo itanu, n'amadolari na magana atanu mirongo itanu.

Iyi ngiyi iba ari inyubako y'amacumbi, aha ngaha ni ho waza kuba mu gihe waba uri wenyine cyangwa se uri kumwe n'abandi, aha ngaha ni ahantu heza haba hizewe, haba hafite umutekano kandi haba harimo n'ibintu byiza bitandukanye.

Inyubako nziza ikodeshwa ikaba iherereye Kabeza ikaba ari inyubako bakodesha amafaranga angana n'ibihumbi magana atandatu ku kwezi, ifite umwanya wajyamo ibinyabiziga uramutse ubifite, iyi nyubako ushaka waza ukayikodesha ukayibamo.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho, iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali. Ikaba ifite ibyumba bine by'uburyamo, ikagira ibyumba bibiri by'ubwogero hamwe n'ubwiherero, ubundi ukaba wasabwa kwishyura amafaranga nk'ibihumbi magana ane ku kwezi.

Iyi ni inyubako ikodeshwa iherereye Kabeza, ikaba ifite ibyumba bitatu by'uburyamo, icyumba kimwe cy'ubwogero, n'icyumba cyo kwicaramo cyangwa se kuganiriramo, ukaba wishyura amafaranga angana n'ihumbi magana atatu buri kwezi.

Iyi ni inyubako nziza iherereye mu Mujyi wa Kigali, i Kanombe. Ikaba ifite ibyumba bine by'uryamo n'ibimba bitatu by'ubwiherero cyangwa se ubwogero. Ukaba ari inzu ushobora kuba waza ukayigura, cyangwa se ari inzu ikodeshwa na byo ukaba waza ukabikora ukayibamo.

Ngira ngo ni inzu nziza yuzuye ifite ibyumba bitatu byo kuryamamo iri mu mujyi wa kigali Rebero ahangaha ukazajya wishyura ibihumbi ijana ku munsi mu gihe waba ukeneye gukoresha iyi nyubako ubundi ukaza ukayibamo

Iyi ngiyi ni inyubako nziza nini yubatse neza ku buryo bugezweho, ikaba ifite imbuga nini ushobora kuba washyiramo ibinyabiziga byawe, ni inyubako ushobora kuba wakenera ukayigura ukabanamo n'umuryango wawe, ikaba ihagaze amafaranga angana na miliyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda.

Iyi ni inyubako nziza yubatse neza ku buryo bugezweho, ikaba ari inzu igurishwa miriyoni ijana z'amafaranga y'u Rwanda iherereye i Kinyinya mu Birembo. Ifite ibyumba bine ibi ngibi by'uburyamo ndetse n'ubwiherero butatu cyangwa se n'ubwogero.

Iri ni iduka ry'inkweto nziza, imikandara, ibikapu byiza kuba mama ndetse n'abandi batandukanye, ahangaha ushobora kuba waza ugahahira ibintu byiza bitandukanye uzambara ukaberwa ukagenda umeze neza.

Isoko ribamo ibintu byiza ryubatse ku buryo bugezweho ahaheramo ibintu byinshi cyane byari bitandukanye yaba biri mu bikarito yaba biri ahandi henshi hatandukanye ibyo kunywa by'ubwoko bwose wabisanga aho ibyokurya bitandukanye wabisanga.

Isoko wahahiramo ibintu byinshi by'agaciro byiza amavuta y'ubwoko bwose ndetse akenshi wasanga ibintu byo gutuma abagore cyangwa se igitsina gore icya byo gusiga ku minwa mu maso n'ahandi hatandukanye.

Iki ngiki ni ikigo gitanga ubwishingizi ubwisungane mu kwivuza ahangaha mituweli iriho k'ubw'abaturage ugomba kuba uyifite kugira ngo nukenera kwivuza bizakorohere haba wowe n'umuryango wawe.

Iki ni ikigo gitanga ubwisungane mu kwivuza. Aha ngaha baravuga ati: ''Mituweri ishema ry'umuryango.'' Aha ngaha niba uzi ko umuryango wawe udafite mituweri, menya ko nta bwishingizi ufite, bushobora kuzagufasha mu gihe kigiye gitandukanye.

Ubu ni ubwisungane mu kwivuza,, urabona ko buri muntu hano ufite ikarita y'ubwisungane aha ngaha iyo uyifite ukajya ku kigo nderabuzima cyangwa se ku ivuriro, babasha kukuvura mu buryo bworoshye nawe bikaba byakorohera ku bijyanye no kuba wakishyura.

Ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda, ikaba ari ikarita y'umunyamuryango y'ubwisungane mu kwivuza. Ufite iyi ikarita ntarembera mu rugo. Iyi karita ugomba kuba uyifite kugira ejo cyangwa ejobundi utazaterwa n'indwara ukaba warembera mu rugo.

Iyi ni ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, wa muryango we udafite ubundi bwishingizi ubwo aribwo bwose iyi karita y'ubwisungane mu kwivuza waba uyikeneye kugira ngo ejo cyangwa ejobundi mu gihe wagize ibyago ukarwara bizakorohere.

Aba ngaba ni abaturage bafite amakarita y'ubwisungane mu kwivuza, iyi karita uyifite ukaza kwivuza bituma bikorohera mu buryo bwo kwishyura amafaranga y'Ibitaro, aha ngaha biba bikoroheye.

Iringiri ni isoko wahahiramo ibyo kunywa by'ubwoko bwinshi cyane ubyuzi ndetse n'ibyo utazi, ibisembuye ndetse n'ibidasembuye ahangaha rwose waza ukahahahira ubundi ukagenda ugashyira mu nzu yawe.

Kubera igurishwa n'igura ry'ibintu bitandukanye, umucuruzi arimo atanga inyanya n'ibindi bigiye bitandukanye, kugira ngo abashe gukomeza kubaho, ubuhahirane hagati ya bombi kandi bigende neza.

Ni isoko ryiza rinini wahahiramo ibintu byinshi wakifuza. Amata y'abana, amata yo guha abantu bakuru bisanzwe ndetse ibyo kurya by'ubwoko bwose wakwifuza kugura, aha ngaha wabihasanga.

Iri ni isoko wahaheramo ibintu byinshi bitandukanye wakwifuza, ibyo uzi n'ibyo utazi; ibyo kurya by'amoko yose, ibikoresho byo mu nzu, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ahangaha wahageze wabona icyo wifuza.

Mu ku isoko bahahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ibikoresho by'isuku, ibyokurya bikoze mu mafari, amavuta yo guteka, amavuta y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, inyama ibyokurya bindi byinshi aha ngaha wabihasanga.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza nini tukaba tubona isoko rya simba iherereye sonatube ahangaha ni ahantu wahahira ibintu byose uzi bibaho wakenera ibyo kurya, ibyo kunywa, ibikoresho byo mu nzu, ibikinisho by'abana, n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Ni isoko ushobora kuba wahahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ibyo kurya ndetse imboga z'ubwoko bwinshi ubwo uzi n'ubwo utazi ahangaha rwose wazihahahira.

Ni isoko ryiza wakinjiramo ugahahiramo ibintu byinshi bitandukanye uka wahaha ibyokurya by'amoko wakifuza waha ibitabo, amakayi n'ibindi bintu byinshi wakwifuza ibyo kunywa imitobe wabihahaye.

Shyiramo ibintu byinshi bitandukanye ibyokurya by'ubwoko bwinshi ibiryohereye ibisukuti ndetse n'ibindi byinshi wakwifuza kugurahangaha wabihasanga ukabahahira ukaba wajya guteka mu rugo rwawe ubundi ukarushaho kurya amafunguro meza.

Isoko rinini rihagije, wahahiramo ibyo kurya bigiye bitandukanye, n'ibyo kunywa bitandukanye, ahangaha ibintu by'ubwoko bwose wakenera, uri nko mu rugo waza ugahaha ubundi ukabitahana.

Nisoko babasha kubahahiramo ibintu byinshi bitandukanye cyane cyane ibyokurya by'ubwoko bwose usangamo ibinyobwa imitobe n'ibindi bintu bitandukanye, wakenera kugeza ubwo wabihahiramo waba uri umunyarwanda w'umunyamahanga uwo ari we wese wariharanira.

Iri ngiri ni isoko cyangwa iduka wajyamo guhahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, tukaba tureba abantu barimo barafata amashusho y'ukuntu umuntu ahaha kugira ngo babone ko iterambere ryiyongereye.

Aho wajya ukabona ibyokurya byiza biteguye neza ndetse n'ibyo kunywa binyujije mu mashini, wakenera mu buzima wakwishimira uramutse ubikeneye ahangaha waza ukabihagurira.

Iri ni isoko wahahiramo ibintu byinshi byiza bigiye bitandukanye wakenera, haba ibyo uzi cyangwa se ibyo utazi, ibyo kurya by'ubwoko bwose, ibyo kunywa bigiye bitandukanye, n'ibindi bintu byinshi, hakaba hari n'uburyo bwo kwishyura n'ikoranabuhanga, waba ukoresheje ikarita, cyangwa se ikindi, ubundi bakaguha n'inyemezabwishyu.

Iri ngiri ni iduka ryiza wahahiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibyo kurya by'ubwoko bwose, ibyo kunywa wakwifuza aha ngaha wabihasanga, ndetse bipfunyitse mu buryo butandukanye, byose wabihasanga.

Ni isoko rinini wahahiramo ibintu byinshi bitandukanye wahahamo ibyo kurya, wahahamo amavuta atandukanye ayo kwisiga, amavuta yo guteka, ibyo kunywa ibisembuye ndetse n'ibidasembuye byose wabisangamo.

Ahangaha ni mu isoku niini ryiza usanga ibintu byinshi bitandukanye turabona ibirungo by'ubwoko butandukanye byo gushyiramu biryo, mu mafunguro asanzwe, ibyo gushyira mu cyayi, ibintu byinshi bigiye bitandukanye hano wabihasaga.